Imbaga y'abantu nyamwinshi ndetse n'icyapa kigaragaza indwara ya ebora, kiriho kuyirinda ndetse kinarigaragara mu byo uryamye, hasi wazo n'ikibazo cyo kwatakakwa n'iyi ndwara ndetse kabarimo haritabwaho.

Umupapa n'umumama baje ku ivomero rusange, barimo baravoma amazi bakoresheje ibikoresho bitwaje ndetse hari n'umukangurambaga urimo urabaganiriza, abashishikariza kwimakaza isuku mu byo bakora byose.

Umukobwa uri ku rukarabiro rusange arimo arakaraba ibiganza kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ndetse n'utundi dukoko dutandukanye tuba twagiye tujya ku muntu, mu gihe arimo arakora imirimo itandukanye, bikaba bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Mukobwa yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange yitwaje ikivomesho kugira ngo ngo abashe kuyakoresha mu mirimo itandukanye yaba ari uguteka, kuyogesha ibikoresho byo mu rugo ndetse no kuyoga.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye harimo umusaza uri mu zabukuru, muganga arimo aramupima indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, ndetse n'izindi ndwara zose zitandukanye.

Umunyeshuri w'umukobwa uri ku rukarabiro rw'ishuri, ari gukaraba neza ibiganza akoresheje isabune n'amazi meza; kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zandurira mu gusuhuzanya ndetse no mu bundi buryo bwose.

Abana bato b'abanyeshuri bari ku rukarabiro bifashishije amazi meza n'isabune, barimo barakaraba ibiganza kugira ngo birinde indwara zitandukanye, yaba ari aho biriwe no mu byo bakoragaho.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'ababyeyi bazanye abana kugira ngo bamenye ubuzima bwabo, babapima ibiro ndetse bahabwe imiti itandukanye yo kugira ngo abana bitabweho, bityo ubuvuzi bukomeze gusakara ku isi hose.

Abana bato barimo abakobwa ndetse n'abasore, bari mu mazi, bari koga, biyuhagira umubiri wabo, kugira ngo babashe kwimaraho imyanda, ndetse bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umwanda.

Abana bato basuwe n'ingeri z'abantu zitandukanye, barimo barabahereza ibyo kurya, birimo imbuto ibyo kunywa birimo amata, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Hirindwe igwingira ry'abana ku isi yose.

Abakangurambaga b'ubuzima ndetse bari kumwe n'abaganga mu nama, bahabwa inyigisho basobanurirwa ibijyanye n'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'izo mu mutwe n'indwara z'uruhu n'uburyo bwiza bwo kuzivura abaturage bunoze.

Umubyeyi ukikiye umwana ndetse ni inzobere mu buvuzi bw'abana, akaba arimo aravura umwana yifashisha imiti yabugenewe. Umwana ufite ikibazo cyo ku mutwe ariko akaba arimo kwitabwaho neza na muganga.

Umubyeyi ukikiye umwana ndetse na muganga urimo arahereza uwo mwana muto umuti, awunyujije mu kanwa kugira ngo umwana akurikiranwe hirindwe indwara z'igwingira kuri we, ndetse akurane ubuzima bwiza buzira indwara maze akomeze kugubwa neza.

Muganga arimo arandika ibyo amaze gupima umurwayi, ndetse inyuma ye hari icyapa cyanditseho ko sida igihari, tugomba gufatikanya twese hamwe tukayirwanya.

Ababyeyi babiri ndetse n'umwana baje kwivomerara gushaka amazi, batonze ibivomesho byabo bitandukanye. Kugira ngo bavome amazi yifashishwa mu isuku guteka, koza ibikoresho byo mu rugo bikoreshwa mu guteka ndetse gufura n'ibindi bitandukanye amazi adakoreshwa.

Umubyeyi n'umwana bari gutembera mukarima k'igikoni gateyemo imboga zo kurya zifashishwa hirindwa indwara zitandukanye ndetse zigatanga intungamubiri nyinshi zikomeza kongera ubwirinzi bw'umubiri.

Umu papa ndetse n'ababyeyi babiri barimo barakusanya ibiryo, babishyira ahantu hamwe, bigaragara ko bigiye gutangwa mu baturage, babashe kubirya ndetse bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira inzara n'indwara.

Ku ivomero umumama ari kuvoma amazi meza, ndetse abandi bantu batatu bari kumufasha kugirango ngo ayo mazi aze asukuye asa neza akoreshwe, mu guteka, gufura ndetse no koza ibikoresho.

Ihuriro ry'ababyeyi n'abana babo aho abana bagaburirwa, bakanywa amata, bakarya imbuto ndetse bagafata intungamubiri yose ihagije kugira ngo bakure neza hirindwe igwingira ry'abana mu mikorere.

Ku ivomero umusore arimo aroza ibiganza n'amazi meza asukuye, akaba ari ivomero rusange umuntu wese yaza agafata amazi akajya kuyakoresha, yaba ari ukuyakoresha amasuku, kuyatekesha ndetse andi agatungwa akabikwa neza akabasha kunyobwa.

Ubufatanye bw'abashinzwe ubuvuzi ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo abaturage babashe kugubwa neza ndetse n'umutekano ugerweho, akaba ari ihuriro ry'inama y'ingeri z'abantu benshi batandukanye, harimo abayobozi bakuriye izo nzego zombi ndetse n'abaturage baje guhabwa amabwiriza.

Ababyeyi bafite abana batoya, ndetse benshi muri bo bari ku ibere bakaba bari guhura na muganga abahe serivise z'ubuvuzi bw'indwara, ndetse asuzume abana aribe uburyo bahagaze mu mubiri ndetse n'uburyo bw'imikurire.

Inzu iberamo inama, igamije guhugura abaganga, barimo abapapa, abakobwa, abasore ndetse n'abamama, basobanurirwe ku ndwara zitandukanye, kandi bamenye neza uburyo bunoze bwo kuzivura n'ingamba ukuzirinda.

Umwana ku ivomero yitwaje ibivomesho ari kuvoma amazi meza yifashishwa mu guteka, akifashishwa mu gusukura imyenda n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo kugira ngo isuku nziza ikomeze gusakara mu rugo ahandi hose.

Ku ivomero mukobwa arimo arakoreza mugenzi we ikivomesho, kugirango ajyane amazi akoreshwe mu rugo mu buryo butandukanye, yaba ari ukoza ibikoresho byo mu rugo, gukoropa ndetse no gufura, andi bakaba banayoga.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bari mu nama, igamije kwiga ku buzima ndetse n'uburyo bwo gushora amafaranga mu buzima, kugira ngo abantu bavurwe bitabweho ndetse n'ibikoresho bikenerwa muri rusange.

Mu bantu batandukanye barimo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abasore, harimo n'ababyeyi, barimo mu nama y'amahugurwa ashingiye ku buzima gatozi bw'isi yose muri rusange ndetse no gusobanurirwa ku ndwara zigiye zitandukanye.

Umwana mutoya uri ku rukarabiro, ari gufungura amazi kugira ngo akarabe ibiganza avaneho imyanda, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse yirinde n'indwara ziterwa n'imyanda.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bari mu ishami ry'ubuvuzi, ubabona ko bari kwita ku miti biga uburyo ikoreshwa ndetse n'uburyo ivura indwara zitandukanye, kugira ngo babashe kwita ku baturage.

Umugabo ubona ko arimo araganiriza abantu, abasobanurira ku ntego z'Igihugu, mu gutera inkunga ubuzima no kubuzamura kugira ngo bukomeze gutera imbere mu buvuzi.

Urukarabi rusange ruhuza abantu batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo hubahirizwe isuku ndetse inanozwe, aho baza ku rukarabiro rusange, ivomero bagakaraba bakoza ibiganza neza n'isabune kugira ngo birinde indwara ziterwa n'imyanda ya hato na hato.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, mu rwego rwo gutuma ubuvuzi butera imbere ku isi hose ndetse serivisi zinoze zigatangwa mu baturage. Akaba ari ibikoresho byizewe kandi byatunganyijwe ku buryo byifashishwa mu bitaro byose ku isi hose.

Imbaga y'abantu benshi bari mu cyumba kimwe, harimo abamama, abapapa urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bari kuganirizwa n'umumama ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'isi yose muri rusange, biga ku ndwara ndetse bamenya byinshi bitandukanye, bijyanye n'ubuzima bw'umuntu.

Ivomero rusange ryahuriweho urujya n'uruza rw'abantu benshi, bitwaje ibikoresho bitandukanye baje gushaka amazi hagamijwe kubisukura, kubyitaho no kubyongerera ubuzima bwiza, maze hizihizwe isuku nziza, hamwe no kurinda indwara ziterwa no kuba ibikoresho bisa nabi.

Mama ku ivomero arimo aravoma amazi bigaragara hirya abandi bamama bari kumufasha mu buryo bwo kugira ngo amazi amugereho asukuye kandi neza bitagoye, bityo hakomeze kwimakazwa ubuzima bwiza

Abaganga benshi batandukanye barimo abamama, abapapa bari kumwe n'uwabasuye, bigaragara ko bari bari kuganirizwa ku ndwara zitandukanye, uburyo bwo kuzivura, uburyo zifata umurwayi n'uburyo bwo kuzirinda.

Imbaga y'abantu biganjemo abaganga bari kwiga ku ndwara zitandukanye ndetse no ku mibereho myiza y'abaturage, guteza ubuvuzi imbere ku rwego rw'isi muri rusange kugira ngo abantu bose babashe kwitabwaho ndetse bavurwe neza.

Ivomero rusange ubona ingeri y'abantu batandukanye baje gushaka amazi, biganjemo abana ndetse n'abakuze, ariko ukabona ko ari umugezi udasukuye neza, ubona ko hatizewe ubuziranenge bw'amazi yaho.

Amazi arimo aramanuka mu gitembo, ndetse n'umuntu uri kuyakaraba ubona ko arimo arakaraba amazi ajya mu yandi arimo aratemba. Bituma amazi atemba agenda yanduye, ndetse ku buryo abayakoresha ashobora kuza kubatera indwara, bityo hakaboneka ikibazo gitandukanye giterwa n'uko amazi yanduye.

Icyumba cyo kwa muganga cyahuriyewemo n'ababyeyi benshi batandukanye, bafite abana babo ubona ko baje kubapimisha, ngo bamenye ibiro bafite, bigaragaza ubuzima bw'abana muri rusange, imikurire ndetse n'uburwayi butandukanye.

Umubyeyi uri guhabwa serivisi y'ubuvuzi kwa muganga, aho muganga arimo aramufata ibipimo ndetse akaba yambaye ibikoresho birinda intoki kugira ngo hatabasha kuba hari ndwara nawe yabikuriramo.

Abana bato bitwaje ibikoresho baje kuvoma amazi ku ivomero barimo barafungurira amazi abana bakavoma amazi buri umwe buri umwe hajya aho undi ndetse akaba ari amazi meza asukuye kugira ngo akoreshwe mu buryo bwo kuyatekesha ndetse andi akanyobwa.

Inyubako zitandukanye eshatu zikoreshwa hatunganywa neza hanayungururwa amazi, kugira ngo abashe kugera ku bantu bose ku isi, atunganye kandi asa neza nta myanda irimo.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye rwiganjemo abagore, abagabo ndetse n'abakobwa n'abasore, ubona ko baje gufata inkunga y'ibiryo yatanzwe hagamijwe kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze bugere ku baturage bose bo mu isi muri rusange.

Urukarabiro aho umuntu arimo arakaraba neza yifashishije isabune n'amazi meza, kugira ngo asukure ibiganza akureho imyanda itandukanye, iba yavuye aho umuntu yirirwa. Yaba ari ku byo umuntu akoraho ndetse n'abantu bo mwasuhuzanyije.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, baje gufata amahugurwa ndetse n'inama n'ibiganiro bijyanye no gukomeza guteza imbere ubuvuzi n'ubuzima bwiza, hari n'imbangukiragutabara, ku buryo mugihe umuntu ugira ikibazo, abasha kwihutira kujyana ku bitaro akavurwa.

Abana barimo abakobwa ndetse n'abahungu bari ku rukarabiro rusange, hagamijwe kugira ngo hanozwe isuku ndetse hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ihuriro ry'abaturage abamama, abapapa n'abana batoya ubona ko bari guhabwa amahugurwa n'inama n'umujyanama abasobanurira ku ndwara zitandukanye uburyo bwo kuzirinda kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ku ivomeraro umwana arimo aravoma amazi avomera hejuru y'ikindi kivomashwa kiri hasi, bishobora gutuma imyanda ibasha kujya mu mazi, ndetse amazi akagenywa atameze neza bityo bigatuma hakandura indwara zimwe na zimwe zitateganijwe.

Inama yahuje urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo akomeze kwiga byo guteza imbere ubuzima, ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, bityo isi yose ikomeze kugubwa neza habe n'ubufatanye burambye mu by'ubuvuzi.

Umwana muto w'umunyeshuri wambaye umwambaro w'ishuri, akaba ari ku rukarabiro aho akaraba yifashije isabune kugira ngo asukure neza ibiganza, nyuma y'uko avuye mu bwiherero cyangwa se yanduye ibiganza.

Umubyeyi uri ku ivomero yagiye gushaka amazi ,amazi ashobora kwifashishwa yabakwihira ibihingwa ,guteka ndetse no kuyanywa ,koza ibikoresho byo mu rugo birimo ibyombo yewe no gukoropa ,amazi ashobora kwifashishwa ahangaha muri ibi tuvuze.

Umwana muto w'umukobwa ari ku ivomero kuvoma amazi ndetse yitwaje ibikoresho byinshi indobo zitandukanye nini n'intoya kugira ngo ashiremwo amazi ajyane mu rugo akoreshwe mu buryo butandukanye ugukora ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo abagabo babiri, abamama babiri ndetse n'undi mugabo usa n'aho ayoboye ikiganiro, bari kwiga ku buzima ndetse bari kujya inama bungurana ibitekerezo, byabasha guhindura isi muri rusange, mu buryo bw'imibereho myiza y'abaturage.

Ihuriro ry'ababyeyi bafite abana batoya kwa muganga, ndetse bari mu cyumba kimwe baje kumenya ubuzima bw'abana babo uko buhagaze, babapima ibiro ndetse banareba niba byariyongereye cyangwa se byaragabanutse.

Amavomero atatu yahuriweho n'abana b'abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu, bari gukaraba intoki, bakaraba amazi ava mu itiyo ajya mu ndobo. Bityo bigatuma amazi ageramo yanduye kandi ibyo bitera indwara.

Muganga arimo arapima umurwayi umuvuduko w'amaraso yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo amenye neza uko umubiri uhagaze ndetse n'uko amaraso atembera umubiri we bityo niba afite ikibazo avurwa kandi yitabweho .

Umwana mutoya w'umukobwa, ufite icupa ririmo amazi, ubona ko arimo arayamena ku nzu, bikaba byateza umwanda ndetse n'indwara, bitewe n'uko ayo mazi arimo arahura n'ibindi bintu bitari byiza.

Imbaga y'abantu benshi b'abaganga bakaba basuwe basobanurirwe, banigishwe ku buvuzi bw'indwara zitandukanye n'inzobere, ukabona ko bishimiye kugira umushyitsi ndetse bamwakirana urugwiro rwose.

Urukarabiro rusange, umwana muto w'umukobwa ubona ko arimo arasukura ibiganza kandi yishimiye iki gikorwa remezo cyo kuba amazi ahari kugira ngo bose bayagereho kandi banayakoreshe.

Umubyeyi yazanye umwana muto urwaye ndetse uremye cyane akaba arimo aritabwaho n'abaganga babiri umuganga w'umugabo ndetse na muganga w'umumama kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ndetse umwana akurikiranwe neza abashe gukura vuba.

Inyubako yanditseho gira ubuzima. Yahuriweho n'abaganga batandukanye bavura indwara zitandukanye. Ubona ko barimo barashishikariza ubuzima bwiza abaturage ndetse banatanga serivisi nziza z'ubuvuzi ku bantu bose

Umwana w'umusore mutoya uri kunywa amazi, yahuje ibiganza bibiri ku ivomero. Ndetse akaba afite n'indobo arimo aravomeramo amazi.

Umumama uri kuvoma mazi ku mugezi ayakoresha ari gufura imyenda ndetse ni amazi meza ari mu rugo rwe kugira ngo abashe kubona amazi mu buryo bumworoheye kandi bwizewe.

Umumama uri ku ivomero uri kuvoma amazi ye gukoresha mu rugo, yaba ari uguteka, gufura, ndetse no kuyoga kugira ngo akomeze kugiraho ubuzima bwiza ku isi yose muri rusange.

Ikigo gishinzwe kwita ku rubyiruko ndetse no kumenya imibereho yarwo mu buryo bw'imikurire, kikaba cyifashishwa ku isi hose ndetse kikaba ari ingirakamaro ku rubyiruko cyane cyane n'abana batoya.

Abanyeshuri b'abakobwa bari ku rukarabiro bari gukaraba neza intoki n'amazi meza asukuye, kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka mu gusuhuzanya ndetse no ku bikoresho bitandukanye baba bakozeho, mu ishuri mu gihe cy'amasomo.

Abaganga babiri bari kuvura umu mama ufite ikibazo ku rutugu, bambaye neza udupfukamunwa, kugira ngo babashe kwirinda kuba imyanda yabagwaho, cyangwa se ikabageraho binyuza mu matembabuzi.

Abana bane baje ku ivomerara gushaka amazi ndetse n'undi muntu wa gatanu, akaba arimo arabafasha mu buryo bwo gusukura neza ndetse no gutunganya neza aya mazi, akaba yaje mu modoka, ndetse akaba yaje agamije kugira ngo isuku ikomeze kwizihizwa mu mahanga yose.

Abaganga baturutse mu bihugu bitandukanye by'Isi yose bahurijwe hamwe n'inzobere baganirizwe basobanurirwe ku mikorere y'indwara zitandukanye n'uburyo bwo kuzivura kugira ngo zibashe gukira ndetse burundu.

Abana bato ndetse n'ababyeyi barimo barasobanurirwa banaganirizwa ku ndwara zitandukanye, buriho kuzirinda, uburyo zandukira n'uburyo zifata abantu, kugira ngo zibashe kwirindwa neza mu buryo bukwiriye.

Umusore uri gukaraba ibiganza akoresheje isabune ndetse n'umwana muto uri kumusukira amazi meza kugira ngo akabe neza kandike imyanda iveho, yaba ariyo yakuye aho yari ari gukora cyangwa se n'abantu basuhuzanyije.

Umumama ucyikiye umwana ndetse akaba yaje ku ivomero, arimo arashaka amazi ariko bigaragara ko amazi atayabonye. Bikaba biteje ikibazo cyo kuba serivisi nyinshi zikemurwa no kuba amazi ahari zitagenda neza.

Umupapa uri gupimisha umwana ibiro arebe uburemere umwana afite, ndetse arebe ko nta ndwara na zimwe umwana afite zo kugwingira zatuma adakura neza.

Abasore n'abakobwa bakiri bato cyane bari mw' ishami ry'ubuvuzi , abaturage bavura indwara zitandukanye ubona ko bishimiye icyo bakora ndetse kandi banongewe n'umurimo .

Umwana ku ivmero rusange kuvoma amazi mu gikombe yo kunywa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse umubiri ukore neza hirindwe n'indwara zitandukanye ni amazi meza asukuye ndetse ni ivomero rya bose.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abasore, abapapa n'abamama, bari guhabwa amahugurwa ajyanye no gusobanurwa ku ndwara zitandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bakomeze kubaho neza.

Ivomero rusange ryahuriweho n'abantu benshi, barimo abamama, abana bato, abapapa ndetse n'umwana uri kuvoma amazi mu bikoresho byabugenewe, amazi meza asukuye kugira ngo akoreshwe arimo guteka, kunywa ndetse no koza ibikoresho bikoreshwa mu rugo.

Ivomero rusange aho ababyeyi, urubyiruko rw'abana bato barimo abasore n'abakobwa baje gushaka amazi, kuvoma amazi yifashishwa mu guteka, gusukura ibikoresho byo mu rugo, ndetse no koga, bityo indwara ziterwa n'umwanda zikabasha kwirindwa neza.

Umwana muto w'umukobwa, ari ku rukarabiro, ari gukaraba ibiganza. Akoresheje isabune n'amazi meza asukuye. Kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, zandura umuntu ari gusuhuzanya n'undi, cyangwa se mu byo umuntu aba yiriwe akora, mu buzima bwa buri munsi.

Abaganga batatu bambaye imyenda bakoresha kwa muganga bavura abarwayi ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo birinde indwara zitandukanye bafite imiti mu ntoki iri mu bubiko bwayo bwizewe kugira ngo itabasha kwangirika.

Abanyeshuri babiri bari mu kigo cy'ishuri ndetse umwe muri bo ari ku rukarabiro, ari koza ibiganza, yari avuye gushyira imyanda itandukanye irimo impapuro n'ibindi mu gitebo cyabugenewe cyangwa se ubujugunyiro bwabugenewe kugira ngo hagabanywe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Inama yahuje urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu Bihugu byose bitandukanye byo ku isi. Abamama, abapapa ndetse bakaba bakora mu ishami ry'ubuvuzi. Bakaba bahuye biga uburyo guteza imbere ubuzima n'ubuvuzi muri rusange ku isi hose.

Urubyiruko rutandukanye, rukorana n'ikigo gishinzwe imibereho myiza y'urubyiruko, kirimo abakobwa ndetse n'abasore, barimo barahabwa amabwiriza ndetse n'ingamba zijyanye no kwirinda indwara.

Umunsi mukuru ugaragaza ku mugaragaro uburyo bwiza bwo kurinda urubyiruko ndetse ubona ko abana bato bawitabiriye kandi bawuserukiye kugira ngo bakomeze kugubwa neza ndetse no kurindwa muri rusange.

Abaganga bane bari kwita ku murwayi urembye cyane barimo baramwongerera umwuka kugira ngo barebe ko yakongera agasubirana ubuzima. Bambaye bikwije neza uturindantoki ndetse n'udukoresho dupfuka umunwa kugira ngo batabasha kugira indwara bandura zinyuze mu buhumekero.

Wihogora igaragaza ko umuntu wese ufite ikibazo cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, agomba kuganirizwa neza n'inzobere zabihuguriwe, kugira ngo nawe adatereranwa ahubwo yitabweho neza akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana bato barimo abakobwa ndetse n'abasore, bahurijwe hamwe, ubona ko bari kuganirizwa ndetse bishimye cyane, banogewe n'ikiganiro basobanurirwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'uburyo bwo kuzirinda.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye wenyine yigunze ubona ko yitaruye abandi nawe atazi ibyo arimo, yambaye nabi ndetse afite ibintu byinshi kuri we byanduye nabi ndetse bifite umwanda mwinshi.

Umugabo uhagaze mu muhanda yambaye nabi ndetse ari kurya umuneke, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi, afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo abamama n'abapapa baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi, baje kwiga ikibazo cy'indwara z'ubwonko, zo mu mutwe ndetse baje kuganirizwa n'inzobere zibihugukiye, kugira ngo bamenye uburyo bwo kuzitaho no kuzivura.

Umunsi mukuru wo kugaragaza ivuriro mu karere ka Bugesera, ryita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Bavurwe ndetse bakire nabo bitabweho, ubona ko ari ikirori kigali.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bakora mu by'ubuvuzi, barimo barahugurwa ndetse banaganirizwa n'inzobere ku buryo bwihariye bwo kuvura indwara zo mu mutwe. Uburyo uyirwaye yitabwaho, uburyo yakirwa ndetse n'uburyo aganirizwa.

Abana benshi batandukanye barimo abakobwa n'abahungu bambaye nabi cyane, bigaragara ko bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bari gusabiriza ibyo kurya, bagomba kwitabwaho bakanarindwa.

Umugabo ndetse ni umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye mu miyoboro y'amazi, igaragaza ko atazi na we ibyo arimo kubera uburwayi yifitiye bwo mu mutwe ndetse akaba agomba kwitabwaho kugira ngo indwara ye ivurwe na we yongere agire ubuzima bwiza nk'abandi.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'amashuri abanza, barimo abakobwa ndetse n'abasore ndetse hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hagati na hagati y'abo banyeshuri, bakaba bari kuganizwa ku ndwara zifata ubwonko.

Umugabo wigunze wambaye umupira ndetse yifashe ku mutwe, ubona ko ibibazo byamurenze, akaba akenyeye igitenge kandi ari umugabo, bigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, uburwayi ndetse agomba kuvurwa akanitabwaho.

Umusaza ufite icumu ndetse yikenyeje neza umwitero akaba yambaye n'ishati, uyu musaza agaragara nk'aho arimo arabyina ariko atari ukubyina kubera ko yishimye ahubwo bigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, uburwayi bugomba kwitabwaho ndetse bukavurwa bugakira.

Umukobwa ubona ko ari kuribwa n'umutwe cyane ndetse yicaye yunamye, akaba afite ikibazo cyo kuribwa n'umutwe ukomeye. Agomba kwitabwaho, haba hifashishijwe imiti ikozwe mu bimera cyangwa se indi miti itunganyijwe mu nganda.

Imbaga y'abantu benshi barimo abana b'abakobwa n'abasore, barimo baraganirizwa ku ndwara zo mu mutwe bamenye uburyo zivurwamo ndetse n'uburyo kwita ku muntu uwo ari we wese waba uyifite.

Umumama wigunze, ubona ko afite ipfunwe ryo kujya mu bandi, kubera ikibazo afite cyo kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yiheza ndetse akumva ko ari wenyine atagomba guhura n'abandi.

Umusore ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ubona ko ari guseka, ndetse yambaye umupira w'umuhondo ukwiye kuvurwa akitabwaho ndetse akagira ubuzima bwiza, kugira ngo nawe yumve ko yitaweho.

Abamama batatu bambaye udupfukamunwa neza, barimo baraganira ku ndwara zo mu mutwe. Bari gusangizanya ibitekerezo kugira ngo zibashe kuvurwa neza, ndetse n'uburyo bundi bwafatwa nk'ingamba yihariye kugira ngo habashe kwitabwa ku barwayi bafite ibyo bibazo.

Umumama utishimye wababaye ndetse ubona ko arakaye bisa n'aho afite uburwayi bwo mu mutwe, agomba kwitabwaho akavurwa ndetse agakurikiranwa agakira.

Umumama urwaye uburwayi bwo mu mutwe, akaba yicaye ku ntebe ubona ko yashushanyije ibintu byinshi bitandukanye, amashusho y'indabo n'ibindi utamenya, na we atazi ibyo arimo arakora

Umukecuru uri mu za bukuru ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ubona ko yambaye mu gatuza ndetse nawe atazi ibyo ari gukora akwiye kuvuzwa ubu akitabwaho akongera akagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo abapapa n'amama, baje kuganirizwa n'inzobere ku ndwara zo mu mutwe, uburyo zivurwamo, uburyo zifata abantu ndetse n'ukuntu zakirindwa, bityo uyifite akabasha kubungwabungwa.

Icyapa kinini kiriho ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso, ndetse umuganga wum' umama n'umuganga wum'umupapa ubona ko bari gutanga inyigisho, ndetse bavuga kubijyanye n'imikorere y'ubuvuzi muri rusange.

Abakozi bo mu nzego z'umutekano n'abakora mu by'ubuzima, bahuriwe hamwe kugira ngo bige banarwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ibyapa bishishikariza abantu bo ku isi hose ko tugomba kubungabunga no kwita ku bafite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo nawe adatereranwa ahubwo abasha kwitabwaho nk'abandi bantu, maze tukgira u Rwanda rwiza ko twifuza rutagira ivangura.

Umugabo wicaye arimo aratekereza cyane afite ikibazo ndetse arimo aribaza niba yajya kwibagisha cyangwa se kwisuzumisha mu mutwe kugira ngo abagwe akire.

Abayeyi batatu umwe wo hagati akaba arimo arahereza umwana imfashabere, ariko amufashe mu buryo butari bwiza bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ibintu bibi ndetse ubona ko yisize ibintu by'amarangi mu maso bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ahagaze imbere y'imodoka ubona ko na we nta gitekerezo afite cy'ibyo arimo arakora, agomba kwitabwaho akavurwa ndetse akabasha gukira.

Urujya n'urubuza rw'abantu benshi ndetse harimo abashinzwe umutekano, bagaragaza ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri umwe umwe. Waba ufite ikibazo, yaba ari icyo mu mutwe, urwaye cyangwa se ikindi kibazo, ntabwo ukwiye guhohoterwa kuko nawe ni inshingano zawe kurwanya iryo hohoterwa.

Icyumba kinini kirimo abaganga benshi batandukanye, biganjemo abamama ndetse n'abapapa, barimo barafata amahugurwa ajyanye n'indwara zo mu mutwe, kugira ngo zibashe kuvurwa neza no kwitabwaho.

Ishusho igaragaza umunwa amenyo uburyo agomba kuvurwa, kwitabwaho, gusukurwa ndetse no gukurikiranwa kugira ngo indwara z'imyanda biri mu menyo zivurwe.

Umupapa uri gusukura amenyo yifashishije urudodo, akuramo imyanda iri hagati y'amenyo ishobora kuba yatera uburibwe bw'amenyo ndetse n'izindwara z'amenyo zitandukanye bikaba byatuma amenyo yangirika ndetse bikanamutera umutwe ukabije.

Umusore ufite igikoresho cyifashishwa havurwa amenyo ndetse no kuyasukura, akaba ari guseka agaragaza ko amenyo ye ameze neza kandi asukuye nta kibazo afite, gikoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi hose hatandukanye abasha gusukura no kuvura amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa havurwa indwara z'amenyo, ku bana, ku bakuze n'abakuze cyane, harimo n'urukarabiro rwaho boza ibiganza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, yaba ari aho umurwayi yicara hari n'ikoreshwa hasukurwa amenyo ibikoreshwa hakurwa amenyo, kugira ngo umurwayi yitabweho ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza.

Mama n'umwana barimo barasukura amenyo bakoresheje igikoresho cyabugenewe ndetse n'umuti wizewe woza amenyo. Mama arimo arasobanurira umwana uburyo ukoreshwa kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zataka amenyo.

Umumama arimo arireba mu ndorerwamo, arimo arasukura amenyo akoresheje umuti n'igikoresho cyabugenewe mu gusukura amenyo, kugira ngo agire ubuzima bwiza gatotozi bw'amenyo, ndetse n'izindi ndwara azirinde zandurira mu menyo.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho byifashishwa havurwa indwara z'amenyo aho harimo intebe umurwayi yicaraho ndetse n'ibikoresho umuganga yifashisha arimo aravura izo ndwara yaba ari ibikoresho bikuramo amenyo ndetse n'ibisukura imyanda iri mu menyo.

Umugabo urimo arasukura amenyo yifashishije urudodo, kugira ngo akuremo imyanda, ndetse yirinde indwara ishobora guterwa n'imyanda iba iri mu menyo, n'uburibwe bwa hato na hato.

Muganga arimo arasuzuma umukobwa amenyo akoresheje ibikoresho byabugenewe, yambaye uturindantoki kugira ngo atabasha kugira ibyo yangiriza, ndetse n'abandi baganga babiri ku ruhande barimo barasesengura neza amakuru arimo arafatwa n'uyu muganga.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa havurwa amenyo. Yaba ari ibyo bakoresha bari gukura amenyo, ibyo bakoresha bayasukura, ndetse n'ibindi bivanamo imyanda. Bikaba biri mu cyumba cyo kwa muganga...

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa havurwa ndetse hanasuzumwa indwara z'amenyo hari ibikoreshwa barimo barakura amenyo, hari ibikoreshwa bari kuyasukura ndetse n'ibindi bikoreshwa barimo baravanamo imyanda.

Umusore ugiye gusukura amenyo yifashishije urudodo avanamo imyanda iri hagati y'amenyo, ishobora gutuma amenyo agira uburwayi butunguranye bityo bigatuma anyura mu buribwe bukomeye kandi yiyitayeho byagenda neza.

Muganga arimo aravura umurwayi urwaye amenyo yifashishije ibikoresho byabugenewe. Harimo ibisukura, ibikura amenyo bitewe n'uburwayi afite. Akaba arimo aramufasha gusukura amenyo maze umurwayi akomeze kumera neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa amenyo, yaba ari amenyo ari kubaba, gukuramo imyanda mumenyo, ndetse no gukuramo amenyo mu gihe bibaye ngombwa, bikaba bikoreshwa na muganga ubizobereye ku buryo nta ngaruka byatera kumurwayi.

Amahugurwa yahuje abantu batandukanye biganjemo abaganga b'abakobwa, abasore, abamama ndetse n'abapapa bari gusobanurirwa ku buvuzi bw'indwara z'amenyo ndetse n'uburyo ki bwandukira n'ingamba zafatwa kugira ngo bivurwe burundu.

Abaganga babiri, umugabo ndetse n'umugore, bari gutanga serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ku murwayi. Aryamishijwe neza ku gitanda cyabugenewe, kugira ngo abashe kwitabwaho avurwe neza kandi akire vuba.

Umusore arimo arasukura amenyo yifashishije urudodo, akuramo imyanda ishobora gutuma amenya agira uburibwe bwa hato na hato, ndetse n'imisonga ikaba myinshi bityo bigatuma aribwa umutwe ukomeye.

Umukobwa arimo aroza amenyo akoresheje urudodo, arunyuza hagati y'amenyo akuramo imyanda itandukanye iba iri hagati mu menyo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bw'amenyo ndetse yirinde n'indwara.

Abana bato barimo abakobwa n'abahungu b'abanyeshuri barimo baroza amenyo bakoresheje uburoso kugira ngo bavane imyanda iri mu menyo ishobora kubatera uburwayi bw'amenyo ndetse n'uburibwe bukabije.

Inyubako nziza irimo umupapa ndetse n'umwana bakaba bafite urudodo kandi bose bakaba baruhuriyeho ari babiri, barushyize ku menyo ubona ko bagiye kurucamo hagamijwe kugira ngo bagire uduce dutandukanye dukoreshwe mu bindi bintu bitandukanye.

Umwana muto waryamishijwe na muganga ari guhabwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, bari kumushyirira umuti mu menyo ndetse muganga yambaye neza ibikoresho birinda intoki, kugira ngo hirindwe izindi ngaruka zitateganyijwe mu buvuzi buri guhabwa uyu mwana.

Muganga w'amenyo arimo arakura amenyo umupapa waje urwaye amenyo, akoresheje ibikoresho byabuginewe byo kwa muganga, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse agabanye uburibwe ahura nabwo.

Umukobwa arimo aravura ndetse anasukura amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe agishyira mu menyo agakuramo imyanda iri hagati y'amenyo kugira ngo indwara z'amenyo zibashe kuvurwa burundu.

Umusore ndetse n'umukobwa barimo bareba mu ndorerwamo bari gusukura amenyo bifashishije urudodo kugirango bakuremo imyanda irimo mu menyo ishobora gutuma amenya akurya detse bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye ku barwayi, yaba ari abana, abakuru ndetse n'abakuze cyane kugira ngo bitabweho n'intabe muganga yicayeho iyo ari kuvura aho ashyira ibikoresho.

Umwana muto afite uburoso, ubona ko arimo arasukura amenyo kugira ngo avanemo imyanda bityo indwara z'amenyo, zirimo indwara z'umwanda gukomereka bya hato na hato bivurwe kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi urwaye indwara y'amenyo arimo arereka umuganga iryinyo rimurya, iryinyo ryarwaye aho umuganga yambaye uturindantoki akaba afite igikoresho cyabugenewe, mu gukura amenyo ndetse no kuyasukura kugira ngo umurwayi agire ubuzima bwiza.

Umusore arimo arakoresha igikoresho cyabugenewe gisukura amenyo, kugira avanemo imyanda ndetse amenyo ye asubirane ubuzima. Hirindwe indwara z'amenyo za hato na hato n'uburibwe bukabije bukunze kwibasira amenyo.

Ibitaro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo yaba ari ubw'abana batoya cyangwa se n'abantu bakuru, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa havurwa indwara z'amenyo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bitabwaho bikwiriye.

Umwana mutoya uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo na muganga ubizobereye yifashishije ibikoresho. Arimo aramushyiriramo umuti uvanamo imyanda ndetse amenyo afite ikibazo agakurwamo akabasha gusimbuzwa andi.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bari mu zabukuru baba papa bari kuganira, ndetse ubona ko barimo barungurana ibitekerezo banasobanurirwa n'inzobere ku ndwara zifata abantu bari mu za bukuru n'uburyo zakirindwa.

Umumama n'umupapa bari mu za bukuru batemberanye n'umuryango, kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse bananure amaguru n'amaboko maze bafate no ku mwuka mwiza uri hanze mu bidukikije.

Umurwayi uri mu zabukuru uri kwa muganga akaba amaze kwitabwaho aho muganga amwicaje mu ntebe akaba ari kumusunika amujyana, amuganiriza ndetse anamusobanurira byinshi bitandukanye byerekeye n'uburwayi bwe kandi anamuha n'ikizere ku burwayi bwe arwaye.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'umusaza uri mu za bukuru, muganga arimo aramusukira icyo kunywa kugira ngo umurwayi abashe kunywa ndetse n'imeza iriho imbuto zitandukanye zivura indwara zitandukanye kandi byongera intungamubiri z'umubiri.

Mama uri mu za bukuru ndetse na muganga umaze kumuvura, ubona ko bishimanye bose bari kuganira ndetse baseka, mbega anagewe na serivisi yahawe kandi yanyuzwe n'ubuvuzi yahawe.

Musaza uri mu zabukuru, ndetse n'umumama uri mu zabukuru uri kumufasha kunywa imiti amusomera mu buryo ikoreshwa, uburyo ikora ndetse n'uburyo inyobwamo hifashishijwe amazi meza kandi asukuye.

Umumama uri mu za bukuru arimo arakora umwitozo ngororamubiri w'amaboko, umugongo ndetse n'amaguru kugira ngo yirinde indwara zo mu zabukuru ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusaza uri mu zabukuru ubona ko ari ari kumwe na muganga, arimo aramutembereza kugira ngo abashe kugorora amaguru neza, ndetse ahumeke ku mwuka muzima uri mu bidukikije, bigatuma akomeza kugira ubuzima bwiza buzira gatotozi ndetse nta n'indwara irimo.

Umupapa uri mu za bukuru ufite mudasobwa imbere ye ndetse n'umukobwa urimo uramuhereza imiti yo kunywa akoresheje amazi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuryango wishimye uri gufata amafunguro arimo imboga imbuto, ndetse ubona ko ari umuryango w'abantu bari mu zabukuru, bari gufata amafunguro yuzuye kugira ngo bakomeze kuramba no kugira ubuzima bwiza.

Muganga umumama arimo aravura umukecuru uri mu za bukuru, amuganiriza ndetse amwohereza imiti itandukanye ku burwayi bwe kugira ngo nawe akomeze kumva ko adatereranywe mu myaka afite,

Ababyeyi bari mu z'abukuru bambaye imyenda yera ndetse n'amajipo y'umukara bari guhabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi ndetse no kuganirizwa kugira ngo bitabweho bijyanye n'imyaka bafite bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umupapa uri mu zabukuru ndetse n'umwana mutoya ubona ko bishimanye barimo barakina umukino kugira ngo umusaza na we yumve ko atari wenyine, maze akomeze kugubwa neza kandi n'ubuzima bukomeze kugenda neza.

Amahugurwa yahuje abaganga ndetse n'abantu bari mu zabukuru, hagamijwe kugira ngo basobanurirwe indwara zifata abantu bari mu zabukuru, mu buryo bwo kuzirinda ndetse n'uburyo bwo kuzivuza mu gihe bazirwaye.

Umuganga w'umumama wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupapa uri mu zabukuru wambaye agapfukamunwa, umuganga akaba arimo arahereza serivisi umupapa uri mu zabukuru amufasha gufunga neza ibipesu kandi yitabweho.

Umugabo uri mu zabukuru ari guhabwa serivisi na muganga, muganga ufite mudasobwa akaba ari kumusobanurira imikorere y'umuti yamuhaye ndetse n'uburyo agomba kuwufata neza kugira akomeze kugira ubuzima bwiza.

Muganga ndetse n'umumama uri mu zabukuru aho arimo arahabwa ubufasha, ku ndwara zitandukanye usanga zikunda, kwibanda ku bantu bari mu za bukuru yicajwe mu gatebe, ndetse arimo araganirizwa ubona ko bombi bishimye.

Muganga wicaye ku ntebe ndetse yambaye agapfukawa n'ibikoresho birenga intoki kaba arimo aravura mama uri mu zabukuru, aramupima ku kiganza yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira abone ukuntu amuvura neza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari mu zabukuru bari kuganira ndetse bari gufata amafunguro atandukanye arimo imboga, imbuto, kugira ngo babashe kongera ubuzima bwiza.

Umusaza uri mu zabukuru, arimo arandika ndetse ubona ko hamwe no gusaza yambaye igikoresho cyabugenewe kimufasha kureba, kugirango yandike neza kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza uri mu zabukuru arimo arasobanurirwa uburyo imiti ikoreshwa ndetse arimo aranywa imiti ku ndwara ye afite kugira ngo akomeze kugubwaneza kandi agire n' ubuzima bwiza.

Umubyeyi uri mu za bukuru ari kumwe na muganga, muganga ari kumukoresha umwitozo ngororamubiri w'ukuboko, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, indwara zivuzwe maze akomeze kugubwa neza.

Umusaza uri mu zabukuru uri guhabwa serivisi z'ubuvuzi ndetse akaba ari kunywa imiti hifashishijwe amazi, akaba aryamishijwe neza ku gitanda kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse akomeze kubungabungwa no kwitabwaho neza.

Umukecuru uri mu zabukuru uri kumwe na muganga, arimo aramuha serivisi yo kumuvura indwara cyane cyane zibasira abantu bari mu zabukuru, yaba ari indwara z'imitsi, izo mu nda, ndetse n'indwara zo mu maraso kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse anitabweho mu buryo buko...

Umumama uri muri siporo z'abakuze, kugirango abashe kugira ubuzima bwiza, ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe zataka abantu bari mu zabukuru, akaba arimo aragorora umubiri kugira ngo yirinde indwara, ndetse n'ibindi bintu bishobora kumwataka bitewe n'imyaka agezemo.

Umugabo uri mu za bukuru ndetse nu mu mama ubonako bishimanye barimo baraganira bajya inama ndetse bungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwabo ndetsenuburyo bagomba kubaho kugira ngo bakomeze kumererwa neza .

Umuntu uri mu zabukuru uri mu cyumba ndetse akaba ari gukoresha igikoresho cyo kwa muganga gikoreshwa n'abantu bari mu zabukuru kugira ngo abashe kwitabwaho neza ndetse akomeze gukurikiranwa afite intebe nziza yo kwicaraho ndetse akanahabwa serivisi inoze.

Icyumba kirimo umuganga w'umugore ndetse n'umupapa uri mu zabukuru, aho umuganga arimo aramuganiriza, amusobanurira ku mikorere ya telefone ndetse anamufasha gusoma kugira ngo abashe kubimenya neza.

Umumama uri mu za bukuru uri kunywa imiti, kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza kandi n'indwara afite zivurwe maze akomeze kugira ubuzima buzima kandi bwiza.

Papa uri mu za bukuru arimo akora umwitozo w'amaboko ntoki akoresheje ibikoresho byabugenewe, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mitsi n'umubiri wose, maze akomeza kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umuganga n'umupapa uri mu za bukuru, aho muganga arimo aramupima indwara zitandukanye, cyane cyane indwara y'umuvuduko w'amaraso, ndetse akaba yanareba uburyo umubiri bihagaze neza, imitembere y'amaraso, ndetse n'imikorere y'amaraso, n'ubundi burwayi bwinshi bwaba buri mu maraso.

Icyapa kigaragaza ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'urugendo muri ubwo bushakashatsi muri Afurika kugira ngo zibashe kuvurwa zikire ndetse zirindwa burundu.

Ku bufatanye hagati y'ikigo gishinzwe gutanga amaraso na minisiteri y'ubuzima bagaragaza ko kwikingiza corona virusi ari uburyo bwiza bwizewe bwo kwirinda ndetse no kurinda abandi.

Umumama uri kugaragaza ingaruka z'ibidukikije ku buzima bwacu muri rusange mu gihe bititaweho neza, mu gihe byahungabanyijwe ndetse no mu gihe byangijwe bityo kugira ngo twite ku bidukikije turimo tunita ku buzima bwacu tunirinda indwara zaterwa no kwangirika kw'ibidukikije.

Ibikoresho byakoreshejwe hapimwa indwara ya virusi y'ubushita, ituma umuntu yishimagura ndetse akumva aribwa amashyira akaza ari menshi ku mubiri, aho bagaragaza umuntu uyifite ndetse n'utayifite hifashijwe ibikoresho byabugenewe mu gupima neza iyi ndwara.

Ababyeyi bane bari guhereza abana babo imfashabere, barimo barahabwa amabwiriza ajyanye no kwita ku bana aho bagomba kubonsa mu gihe kizwi cyateganyijwe ndetse no kubakingiza ku gihe gikwiriye kugira ngo abana bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi bitabweho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu, abanyarwanda, abanyamahanga, baturutse mu mpande zitandukanye z'ibihugu byose byo ku isi. Bafite intego ivuga ngo hehe n'igwingira, gutanga amahugurwa atandukanye hagamijwe kurwanya igwingira ry'abana bato ku isi hose.

Icyapa kiriho amatsinda y'abantu atandukanye akorera hamwe ndetse n'ibintu bishobora kongera ndetse no kugabanya ubufatanye, hamwe n'ibihugu birimo souh Africa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zibasha kwandukira ziva ku muntu umwe zijya ku wundi, muganga yambaye yikwije ndetse n'abarwaye bambaye udupfukamunwa kugira ngo izo ndwara zitabasha gukwirakwira hakaba hari n'umuti bakoresha mbere yo gukaraba kugira ngo wice udukoko dutandukanye tuba turi ku ntoki.

Icyumba kirimo abaganga batandatu bambaye umweru, ndetse n'umuganga wundi wa karindwi wambaye imyenda isa ubururu bakaba bambaye bikwije bose udupfukamunwa kugira ngo hatagira indwara n'imwe ibasha kuva kuri umwe ijya kuwundi, ndetse bambaye nk'ibikoresho birinda intoki.

Ubwirinzi bwashyizweho na minisiteri y'ubuzima, ndetse n'ikigo gishinzwe gutanga amaraso hagamijwe kwirinda icyorezo cya korona harimo kwambara udupfukamunwa, ndetse mugihe urimo urakorora ugapfuka umunwa wawe kugira ngo amacandwe n'ibindi bitabasha kugera ku bandi, ndetse guhagarara hagati y'umuntu nundi harimo intera ya metero imwe, ndetse koza ibiganza neza.

Minisiteri y'ubuzima ku bufatanye n'ikigo gishinzwe gutanga amaraso, abaganga babiri bakaba bafite icyapa cyanditse ko tugomba kwisuzumisha igituntu kuko kiravurwa kandi kigakira maze tugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiriho ingamba ishishikariza abaturage yaba abana abakusa n'abakuze cyane muri rusange ko tugomba kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende akaba ari zimwe mu ngamba zashyizweho n'abashinzwe iby'ubuzima kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza .

Icyapa gihagazeho umuzungu ndetse n'umukobwa kiriho amabwiriza agamije kwirinda indwara zitandukanye zifata umubiri kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza mu baturage.

Inama yabaye mu bihumbibiri makumyabiri na kane igaragaza ubushakashatsi ndetse n'ingamba zerekeye ku ndwara zitandukanye mu buzima kuzivura kuzitaho ndetse n'icyakorwa kugira ngo bibashe kwirindwa yahuje imbaga y'abantu nyamwinshi baturutse mu bihugu bitandukanye.

Umuhuro mpuzamahanga ugamije kwiga ndetse no gufata ingamba ku ndwara zitandukanyeba, yaba hari indwara zizegerereje isi ndetse n'izindi ndwara muri rusange kugira ngo zibasheho gukurikiranwa.

Muganga arimo arakingira umurwayi koronavirusi kugira ngo, ikomeze kwirindwa kandi icike burundu bityo ingaruka zayo zigabanuke maze abantu bakomeze kuba amahoro.

Icyapa kiriho icyumweru cyahariwe kuvura no kwita ku ndwara zo mu mutwe yaba ari mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange kugira ngo abafite izo ndwara bavurwe bitabweho ndetse bakire.

Umusore n'umukobwa bari mu nama, inama igamije kugira ngo higwe ikibazo cy'indwara ku rwego rw'isi hose ndetse n'uburyo bwo kuzirinda muri rusange, ingamba ndetse n'amabwiriza agashyirwaho.

Aba mama batatu ndetse n'abaganga bagaragaza amakuru yerekeye kuri coronavirusi, indwara yandurira mu buhumekero; bambaye udupfukamunwa ndetse bahagaze bategeranye, hagati y'umwe n'undi hagiye harimo intera ya metero; kugira ngo birinde kuba iyo ndwara yabasha gukwirakwira.

Amahugurwa rusange yahuje abaganga batandukanye. Baturutse mu bihugu by'isi yose, bari guhabwa amabwiriza ku ndwara zitandukanye, ndetse ashyirwaho n'ingamba zo kuzirinda ku buryo bwiza kandi bwizewe, maze zivurwe burundu.

Abahagarariye minisiteri y'ubuzima harimo abagabo babiri bakuze abamama babiri ndetse n'umusore n'umukobwa barimo baratanga amabwiriza yo kwirinda indwara zitandukanye.

Ibigo bibiri byishyize hamwe kugira ngo habashe kongerwa imbaraga zo kuvura indwara zitandukanye harimo indwara za sida, igituntu k'ikimerano ndetse na malariya, kugira ngo ziguvurwe neza mu bihugu byose byo ku isi.

Inama yahuje ubujya n'uruza rw'abantu yababaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, igamije kwigahiga ndetse no kwita ku buzima bwaba ari ubwaturage bo mu isi yose muri rusange kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira agatozi ndetse buzira indwara.

Mu buryo bw'ubwirinzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane indwara zandukira, abaganga babiri bari kuvura umurwayi urwaye indwara bisa nk'aho ishobora kuba na bo yabageraho mu gihe batikingiye neza, bambaye uturindantoki n'ibindi bikoresho bitandukanye bibafasha kwirinda ko iyo ndwara na bo yabageraho kandi bakavura umurwayi neza.

Umusaza uri mu za bukuru afite urupapuro rwanditseho ko indwara y'ubushita urukingo rwayo rwabonetse kugira ngo ivurwe, yaba ari kuyirwaye umwana, umukuru cyangwa se umuto bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ibitswe neza ku buryo bitabasha kwangirika ndetse icyumba birimo kirizewe umutekano wacyo kugira ngo bikoreshwe neza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo buvuzi, harimo umuganga ndetse arimo aravura umurwayi indwara, kugira ngo abashe kwitabwaho neza agire ubuzima bwiza kandi akire vuba.

Icyumba kimwe mu nyubako yo kwa muganga kirimo abaganga benshi b'abagore ndetse n'abagabo bambaye neza bikwije, bipfutse mu mutwe bigaragara ko bari kuvura indwara kandi bikinze intoki kugira ngo zitaba.

Amarembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina hahagaze umubyeyi uretse umwana, ubona ko agiye gufata serivisi z'ubuvuzi, yaba ari ubuvuzi bw'umwana ndetse n'ubwe ku giti kiwe, harimo inyubako zitandukanye zifashishwa hakirwa abarwayi batandukanye.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse n'ibyapa bigaragaza ingamba z'ubwirinzi n'intego na serivisi zitangwa ahangaha.

Ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, bifite ubusitani bwiza ndetse n'inzira nziza, aho abarwayi babasha kugenda nta kibazo bakavurwa neza ndetse bakitabwaho.

Umupapa wicaye munsi y'igiti, ubona ko hirya y'aho hari ibitaro yaje kwivuza, akaba yicaye bisa nk'aho arimo araruhuka, ndetse afate ku mabeho, cyane ko bigaragara ko izuba ari ryinshi.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreshwa havurwa indwara cyane cyane zimwe mu ndwara zikomeye aho bagusuzuma neza bakamenya niba ugomba kubagwa cyangwa se hari ubundi buvuzi ukeneye burenze.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yubatse neza kandi ifite ubusitani bwiza n'inzira nziza abarwayi babasha kugenda mo baje gusaba serivisi, kugira ngo bitabweho kandi bavurwe neza bakire.

Inyubako nziza nini dusangamo imiti itandukanye yo kwa muganga ihabwa abarwayi batandukanye, aho urujya n'uruza rw'abantu rwaparitse amamodoka atandukanye kugira ngo bagende bafate imiti ku ndwara zose baba bafite.

Ku kigonderabuzima cya shagasha, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ubona ko hahuriwe naba mama bafiteta n'abana babo batoya, baje kubavuza ndetse hakaba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bwose yaba ari kubana bato n'abakuze.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara bitandukanye harimo intebe ndetse n'imbonezamashusho harimo n' ibindi bikoresho byifashishwa barimo barareba ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu kugira ngo barebe uko bimeze .

Urujya n'uruza rw'abantu abana bato, abapapa, abamama bari kwa muganga, guhabwa serivisi ku ndwara zitandukanye, bari kwakirwa na muganga ku murongo uko bagiye baje bakurikiranye kugira bavurwe neza kandi vuba.

Amarembo y'ibitaro haje abantu batandukanye baje gushaka serivisi yo kwivuza ndetse n'aho imodoka iparika, kugira ngo habashe kwitabwaho neza abarwayi n'ababagana.

Muganga uri kugaragaza icyapa kiriho ko tugomba kwirinda malariya, tukayirandurana n'imizi yayo. Ndetse ari kumwe n'undi muganga wicaye kuri mudasobwa, uri kumufasha mu guhuza amakuru, ndetse agere ku baturage bose.

Umubyeyi n'umwana muto w'umukobwa bari mu marembo y'ibitaro bari gusoma amabwiriza agenga ibitaro ndetse n'andi mabwiriza yihariye ku ndwara zitandukanye, baje ari benshi gufata serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga ifite ubusitani bwiza ndetse ikaba yubatse mu buryo abarwayi babasha guhabwa serivise zose zitandukanye, ifite aho ibinyabiziga biparika ndetse irasakaye neza ku buryo serivise zaho ziba zizewe.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye: iz'umutwe, izo mu nda, iz'uruhu, n'izindi zo mu maraso, harimo isaha ndetse harasukuye neza cyane.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, hariho aho umurwayi aryamishwa, aho muganga ashyira ibikoresho aje kuvura umurwayi ndetse n'amashanyarazi akoreshwa mu gihe biri ngombwa.

Umubyeyi arimo araganirizwa na muganga mu cyumba cyo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi cyane cyane mu cyumba cy'ababyeyi. Ubona ko umubyeyi yicaye ku buryamo bwiza ndetse arimo arabazwa niba ari koroherwa cyangwa se niba hari izindi mpinduka umubiri uri kumugiraho.

Inyubako iri mu karere ka Huye, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zibasira abana abakuze ndetse n'abakuze cyane.

Inyubako igurishirizwamo imiti, ikaba yitwa Iraguha. Ikorana n'ubwishingizi butangwa n'amakaminuza, n'ubundi bwishingizi butandukanye. Wahasanga imiti y'ingeri zose, abana n'abakuze.

Inyubako iri mu Rwanda itangirwaho serivisi zijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri yaba ari ukuyikurikirana ndetse no kwirinda ingaruka zayo binyuze mu kuvura ibimenyetso byayo hakiri kare.

Umu mama uryamishijwe ku gitanda kwa muganga, uri kuvurwa indwara ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye biri gukoreshwa arimo aravurwa, kugira ngo asubirane ubuzima bwiza gatozi, ndetse ahabwe imiti ikwiriye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga ndetse harimo umuganga urimo uramanika inzitiramubu ku bitanda by'abarwayi, kugira ngo abashe kuvurwa neza ndetse hirindwe indwara irimo nka maraliya.

Remera Rukoma inyubako nziza ikoreshwa hagamijwe kuvura indwara zitandukanye, zatakaka umubiri, yaba ari indwara z'umutwe, indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, hari ibikoresho bikoreshwa hafatwa amazi mu buryo bwiza bwizewe kugira ngo hirindwe izindi ngaruka zaterwa n'imvura cyangwa se imyuzure.

Inyubako yo kwa muganga itangirwaho serivisi y'ubuvuzi bw'abantu bari mu zabukuru, ubona ko hari umukobwa uhahagaze bigaragara ko ariho bakirira abantu bakinjizwa imbere, bakuze abasaza ndetse n'abakecuru, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nziza yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi harimo ibitanda, aho batereka ibikoresho umuganga agiye kuvura umurwayi, imiti ndetse n'ibindi bakoresha barimo baranariza neza cyangwa basuzuma neza ibyafashwe ibizamini.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'abana, abakuze ndetse n'abakuze cyane kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse babashe kwitabwaho mu buryo bwose bukwiriye.

Icyumba cyo kwa muganga kitangirwamo serivisi, kigaragara aho umurwayi aryama n'aho imiti ishyirwa, ndetse n'aho umuganga ashyira imiti kugira ngo avure umurwayi neza, kirasukuye, gisa neza ku buryo kitakangiriza umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamishijwe ku gitanda ndetse na muganga urimo aramuvura, amufata ibizamini kugira ngo abashe kumenya indwara arwaye maze ahabwe imiti ndetse anitabweho mu buryo bukwiriye.

Icyumba kirimo intebe, hakaba hatangirwa serivisi z'abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, yaba ari uwakomerekeye mu mwitozo ngororamubiri cyangwa se undi ukeneye kuyikora, hagamijwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira gatozi ndetse bakomeze kwitabwaho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye ku kigo nderabuzima, barimo: abana, urubyiruko abamama ndetse n'abakuze, bari aho bakirira abagana icyo kigonderabuzima kugira ngo bahabwe serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

ivuriro ryahuriwemo n'imbaga y'abantu benshi, barimo abakobwa, abasore, abamama ndetse na papa, baje gushaka serivisi zo kwivuza indwara zitandukanye, yaba indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara kugira ngo bakomeze kugira ubuzima, n'isi muri rusange.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe, ameza, abantu bicara ndetse n'agatanga umwuka, kugira ngo abantu bakomeze kugubwa neza aho bari batabweho.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga gitanyurwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zo mu nda, indwara zo mu mutwe, indwara z'amaguru n'iz'indwara zo mu maraso kugira ngo isi yose ibashe kugerwaho n'ubuvuzi bwiza kandi bunoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, irimo ibikoresho byifashishwa havurwa indwara z'ubwoko bwose, yaba ari indwara zataka abana, indwara zifata abari mu zabukuru ndetse n'indwara zifata ababyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo amaraso aba yagiye atangwa n'abantu ku bushake, yaba ari abanyeshuri ndetse n'abaturage muri rusange. Akaba abitswe neza mu bikoresho byabugenewe kugira ngo adatakaza ubuzima gatozi. Akaba yifashishwa ahabwa abarwayi bayakeneye.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye yaba ari indwara za virusi, indwara z'umwanda n'izindi ndwara zitandukanye kugira ngo zibashe kubonerwa ubuvuzi bwihariye kandi vuba.

Ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu mutwe, indwara zo mu nda, indwara z'uruhu kugira ngo umuturage wese abashe kugira ubuzima bwiza kandi n'umurwayi yitabweho neza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana, abakuru, n'abakuze cyane, kugirango bitabweho bakire indwara zose, yaba indwara z'uruhu, n'izo mu nda n'izindi ndwara zo mu mutwe, n'indwara z'amenyo.

Umurwayi yicajwe mu kagare arimo arajyanwa mu nyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'iyi ndwara afite muganga akaba yaje kumwakira ndetse akaba ari n'umufasha kugira ngo agere ku bitaro vuba .

Ikigo nderabuzima cya tabagwe ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ubuvuzi bw'abana bato abakuze ndetse n'abakuze cyane, bafite ubusitani bwiza ndetse n'inzira nziza ku buryo umurwayi yabasha gutambuka nta kibazo.

Ivuriro ritangirwamo serivisi zo kuvura indwara zitandukanye yaba ari indwara zifata abana bato, abakuze ndetse n'abakuze cyane, kugira ngo bitabweho bahabwe imiti ndetse bavurwe neza mu buryo bukwiriye.

Umurwayi uryamye ku gitanda bigaragara ko ari guhabwa serivisi z'ubuvuzi, ndetse n'abaganga babiri, muganga w'umu mama n'umuganga w'umu papa, barimo baramusuzuma bamenye indwara yaba afite mu mubiri we.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa, intebe ndetse n'uburyamo bwiza umurwayi aryamaho kandi hari n'inyerekanamashusho ikoreshwa hagira ngo amakuru akomeze gusakara ku isi hose mu bijyanye n'ubuzima.

Ku ivuriro abaturage baje kwivuza, ubona ko bicajwe neza ku ntebe ndetse barimo barahabwa serivisi inoze, umwe kuri umwe bitewe n'uko baje bakurikirana kugira ngo serivisi yihute kandi vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo uburyamo bwiza cyane, aho abarwayi baryama bakavurwa n'abaganga neza, bakaganirizwa ndetse bagahabwa imiti ku gihe, ku ndwara zitandukanye baba bafite.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo igitanda giseguye neza, aho umurwayi aryamishwa akavurwa indwara zitandukanye, ndetse hariho imiti igaragara ko bagiye kuhavurira umurwayi.

Amarembo y'ibitaro by' i Nyanza ndetse hariyo n'ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi nyinshi batanga, urebeye hirya ubona ko hari n'umunara ndetse ibi bitaro bikaba bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye cyane cyane ku baturage baturiye ibi bitaro by' i Nyanza.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, harimo ibikoreshwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo hirindwe indwara zirimo imitima, indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zo mu zabukuru.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'abana bato, ababyeyi, ndetse n'abakuze, hahuriwe n'ababyeyi benshi baje kuvuza abana ndetse akaba hubatswe mu buryo babasha kubona ahantu bashyira imyanda, ndetse bakanakurikiranwa neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga hagamijwe kugira ngo havurwe indwara neza, harimo aho abarwayi baryama ndetse aho dusanga imiti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye zirimo indwara z'imitima, umutwe n'izindi ndwara zataka umubiri.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hacururizwamo imiti y'ubwoko bwose, ivura indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abato, abakuze n'abakuze cyane.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ubona ko harimo ibikoresho, ibitanda aho abarwayi baryama, ndetse n'inzira zikoreshwa batambuka bagenda n'aho muganga anyura aje kubavura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi uryamye uri kwitabwaho harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoreshwa bavura indwara ndetse banareba mu buzima gatozi bw'imberedani mu muntu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi batandukanye, baryamye ku gitanda bari guhabwa serivisi z'ubuvuzi ndetse hamanitse n'inzitiramibu kugira ngo hirindwe indwara ya malariya, maze bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako nini ndetse n'ibitaro by'umwami Faisal. Aho batangira serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ku ngeri z'abantu bose batandukanye yaba abamama, abakobwa, abapapa ndetse n'abasore muri rusange, hagamijwe kugira ngo hirinde ndetse harindwe indwara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ku barwayi bose iyaba ari abana ababyeyi ndetse n'abari mu zabukuru, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bavurwe neza, bitabweho ndetse bakurikiranwe neza.

Icyumba cyo kwa muganga gihurirwamo n'ababyeyi aho babyarira, aho bahabwa serivisi zindi zitandukanye, aho babakirira ndetse bakanaganirizwa bagasobanurirwa byinshi byerekeye ku mubyeyi ndetse n'umwana.

Inyubako irimo'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Kugira ngo abasigaye barwaye bitabweho ndetse bavurwe bahabwe serivisi nziza kandi inoze bakire vuba.

Ibitaro bitangirwarwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'umubiri, umutwe, mu nda ndetse n'indwara z'uruhu hagamijwe kugira ngo hatangwe serivisi nziza ku barwayi byubatse neza ndetse binasukuye neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, aho kuryama, intebe zo kwicaraho ndetse naho gushyira imiti, kugira ngo abashe kwakira, umurwayi abuvurwe neza aboneho kwicara ndetse mu gihe arembye cyane abashe kuryamishwa ku buriri bwiza, yitabweho ndetse akiri.

Inyubako irimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwiza gatozi yaba ari ubw'abamama, abapapa bugerweho neza.

Abantu benshi batandukanye, bahuriye ku bitaro bya Butaro ndetse bari gufata ifoto nk'urwibutso, harimo abanyamahanga, abanyarwanda n'abandi harimo abaganga ndetse n'abandi bakora mu by'ubuvuzi.

Inyubako nziza, ahatangirwa serivisi z'umwihariko zigenewe ababyeyi yaba ar’ukubyara ndetse no kwitabwaho by'umwihariko. Hakaba hitaruye ndetse hubatse neza, ku buryo babasha kubona umwuka mwiza bahumeka bagakurikiranwa.

Inyubako icururizwamo imiti ya Murekatete, aho abantu benshi bahurira bakagura imiti ku ndwara zitandukanye, yaba indwara zo mu mutwe, indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ikigo gishinzwe ubushakashatsi butandukanye ku ndwara yaba ari indwara za virusi ndetse n'indwara z'umwanda n'izindi ndwara kugira ngo zivurwe ndetse havumburwe imiti myiza ibereye ivura neza izi ndwara.

Icyumba kirimo igikoresho gikoreshwa kwa muganga, havurwa indwara zitandukanye, indwara z'umubiri, cyane cyane iz'uruhu, izo mu nda, n'izindi ndwara zose kugira ngo ubuzimagatozi bunozwe neza.

Ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari nk'ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse harimo n'abaganga b'abagabo bambaye udupfukamunwa, barimo barasuzuma banakoresha neza ibikoresho.

Umubyeyi ndetse uri kumwe n'umwana uri guhabwa serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, na muganga wambaye agapfukamunwa akaba arimo araganiriza umwana amubaza aho aribwa ndetse anamuvura kugira ngo akure afite ubuzima bwiza buzira igwingira.

Inzu ndetse akaba ari icyumba kibikwamo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye. Harimo abaganga batandukanye barimo barasobanurirana kuri ibi bikoresho imikorere yabyo ndetse n'uburyo bigomba kwitabwaho no kubikwa neza mu buryo bwizewe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye yubatse neza ifite n'ubusitani bwiza. Havurwamo indwara zo mu nda iz'umutwe, iz'umutima, izo mu maraso yaba ku bana, abakuru ndetse n'abasaza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga ndetse n'umumama waje kwivuza no kuvuza umwana, kugirango umwana agubwe ndetse abashe kwirindwa indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, iz'amaraso n'indwara zo mu nda, ndetse hakaba harimo n'ibikoresho bikoreshwa bareba zimwe mu ngingo z'imbere utabonesha amaso.

Inyubako ngari nini nziza irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba indwara z'umutwe indwara zo mu nda n'izindi ndwara ndetse bikaba bibitse ahantu hasukuye ku buryo hizewe umutekano wabyo .

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bibitswe neza, ndetse biri ahantu hafite isuku yizewe ku buryo bitakangirika, kandi bishobora gukoreshwa igihe kirekire.

Inyubako z'ibitaro zifite ubusitani bwiza ndetse aho abantu bicara baje gushaka serivisi zitandukanye aho gushyira imyanda, ndetse n'aho amamodoka aparika mu gihe azanye abantu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, indwara z'umubiri, izo mu nda, iz'uruhu hejuru kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza ndetse ubuvuzi bunozwe ku isi hose.

Ikigo nderabuzima cya Marityazo, cyubatse hafi y'umuhanda ku buryo abarwayi babasha kugera ku bitaro byoroshye, hatangirwagirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ku buvuzi bw'abana, abakuze n'abakuze cyane.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye cyane cyane indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri n'izindi ndwara zataka abantu bari mu za bukuru, kikaba kirimo ibikoresho by'ingeri zose, abakuze n'abato.

Inyubako igaragara ahakirirwa abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba ari abakobwa ndetse n'abakuze, kugira ngo babashe kurenganurwa kandi bakurikiranwe.

Ivuriro ritangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse harimo' umuganga urimo arasuzuma ibizamini byafashwe kugira ngo uburwayi runaka bubashe kumenyekana ndetse n'ababufite bakurikiranwa.

Umusaza uri mu za bukuru ndetse ari kumwe n'umuganga urimo amusuzuma indwara ubona ko bishimanye ndetse barimo baravugana neza, arimo aramupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zisangwa mu maraso.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, iz'umutwe, iz'uruhu n'indwara zo mu maraso, ikaba ifite umwanya mwiza aho ibinyabiziga biparika, maze abarwayi bakavanwamo bakajya kuvurwa neza mu buryo bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga ndetse harimo abaganga bane, ubona ko barimo baravanga umuti, bawumenyeho byinshi, uburyo ukora ndetse n'indwara uvura, harimo n'ibikoresho by'isuku bakoresha.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yaba ku bana batoya, ababyeyi ndetse n'abantu bari mu zabukuru kugira ngo hasuzumwe ndetse hanirindwe indwara zitandukanye ndetse zivurwe burundu.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abantu bakuze abamama, abapapa ubona ko barimo baraganirizwa ku ndwara zitandukanye, uburyo zikoramo ndetse banahabwa ubuvuzi kuri izo ndwara.

Muganga arimo arapfuka umurwayi ibiganza, bigaragara ko ashobora kuba yagiriye ikibazo mu mwitozo ngororamubiri w'amaboko, bikaba byatuma avunika.

Umusore uri kunywa amazi, yifashishije icupa amazi meza asukuye, ubona ko asoje umwitozo ngororamubiri ,kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza mubiri ukore neza, ndetse nawe ubwe abashe kugubwa neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bya siporo ndetse hakaba hanakorerwa siporo, hari umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'umugore uri muri siporo, aho ari kureba neza ubuzima bwe uko buhagaze yipima umutima n'izindi ndwara zitandukanye zo kudakora siporo.

Ububiko bwiza burimo imiti ikoreshwa mu gihe umuntu agize ikibazo cyatewe n'imyitozo ngororamubiri, yaba ari ukuribwa mu mubiri, imitsi iri kumurya, uruhu ruri kumurya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikaba ikoreshwa bayisiga cyangwa se indi banayinywa.

Ibikoresho byifashishwa hagamijwe gusimbura ingingo ku batazifite, harimo ibikoresho byiza byabugenewe bikoreshwa mu gihe umuntu yaba yaburiye nk'akaguru mu myitozo ngororamubiri, akaba yagikoresha kugira abashe kugenda.

Umusore arimo arifashisha umuti wabugenewe ku mvune cyane cyane imvune umuntu ahurira na zo ari wo mwitozo ngororamubiri, ubona ko yavunitse akaboko, akaba arimo arishyiraho umuti wizewe kandi uvura neza.

Umusore uri mu mwitozo ngororamubiri w'ukuguru ndetse n'amaboko, kugira ngo umubiri umererwe neza ndetse hirindwe n'indwara ziterwa no kudakora umwitozo ngororamubiri, harimo nk'indwara y'umubyibuho ukabije, indwara yo kugira ibinure byinshi mu mubiri.

Imeza iteretseho ibikoresho bikoreshwa iyaba ari nyuma y'imyitozo ngororamubiri ndetse na mbere yaho harimo imbuto umuntu afata amaze gukora umwitozo ngororamubiri ndetse n'amazi anywa mu gihe ananiwe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'indwara z'imwe na zimwe zitandukanye zikire.

Itsinda ry'urubyiruko rurimo abakobwa n'abahungu, rishinzwe gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku murwayi ugize ikibazo, mu gihe atarabasha kubona uburyo agera kwa muganga avurwe neza. Ruri kwita ku mugabo wagize ikibazo ndetse bari kumuvura neza.

Igikoresho gikoreshwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, kikaba gikoreshwa ahanini mu bwirinzi kugira ngo umuntu ataza gukomereka, cyangwa se abasha kugira ikindi kimwangiriza mu gihe ari mu mwitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri, avunika ikirenge arimo aritabwaho na muganga ubizobereye aho arimo aramuzirika neza aho yavunitse, kugira ngo abashe gukira vuba kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Mukobwa uri mu cyumba cyiza ukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo y'amaguru, amaboko, umugongo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse yirinde indwara zirimo umubyibuho ukabije n'izindi ndwara ziterwa no kudakora.

Umusore uri mu umwitozo ngororamubiri w'amaboko, umugongo ndetse n'amaguru, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, umubiri ukore neza kandi indwara za hato na hato ziterwa no kudakora umwitozo ngororamubiri zikire.

Ukuboko bigaragara ko kwavunitse igufa ndetse kukaba kwaziritsweho kimwe mu bikoresho bikoreshwa havurwa indwara z'imvune kizwi nka bande, akaba ari serivisi zihabwa umuntu wese wagize igikomere cyane cyane abantu bavunikiye mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri yaba ari byo bakoresha bakina, harimo umupira w'amaguru, ibyo bakoresha bakina hifashishijwe amaboko ndetse n'ibindi birimo umugozi basimbuka kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze gutezwa imbere.

Umukobwa urimo arakora umwitozo ngororamubiri, agorora amaguru, amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, yaba iz'umubyibuho ukabije, kuba umuntu yaba afite amanure menshi mu mubiri ndetse n'indwara y'umutima.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, harimo imipira yo bakinisha amaguru n'iy'amaboko, kugira ngo umubiri ukomeze kugubwa neza ndetse ingingo zose zigororoke mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri y'amaboko ndetse imbere ye hari amafunguro afata asoje imyitozo ngororamubiri, harimo amagi ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye n'amazi ku ruhande.

Umuntu wavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo yitabwaho hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, birimo ibyo bakoresha bamuzirika aho yavunitse, bikoranye n'umuti kugira ngo akomeze gukira vuba kandi yitabweho neza.

Umukobwa uri kunywa amazi yifashishije icupa asoje umwitozo ngororamubiri w'amaboko amaguru umugongo, ndetse n'ibindi bice byose bigize umubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umumama uri mu mwitozo ngororamubiri w'amaguru, arimo arahina akuguru kugira ngo imitsi, amaraso byose bikomeze kugenda neza kandi binakore neza bityo indwara zitandukanye zibashe kwirindwa.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, ndetse bikaba bibikwa neza ahantu habugenewe kugirango byitabweho bisukurwe ndetse hirinde umwanda ushobora kuzamo bikangirika.

Umukobwa ufite igipfuko ku ivi bigaragara ko yakomerekeye mu myitozo ngororamubiri akajya gushaka serivisi zo kwivuza kwa muganga, akaba yahawe serivisi nziza aho ubona ko yatangiye koroherwa kandi nta kibazo agifite.

Abaganga barimo abapapa n'abamama bari kureba imbonezamashusho bari kureba ubusobanuro bw'indwara bashaka kwigaho ndetse n'uburyo bwo kuyivura bunyuranye kandi bwizewe.

Igikoresho bakoresha mu mwitozo ngororamubiri bagamije kurinda umubiri kugira ngo utangirika, imvune za hato na hato ndetse n'ibikomere bitunguranye. Bityo ukora umwitozo ukomeze kugubwa neza ndetse awukore neza kandi nta kibazo.

Uburyo bwinshi butandukanye imyitozo ngororamubiri ikorwamo ndetse n'uburyo warwanya gutakaza amazi menshi no gukora umwitozo ngororamubiri wifashishije kunywa amazi meza kandi asukuye kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyo bakoresha bagorora ibiganza, amaguru, umugongo, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ndetse hari n'imbuto arya nyuma y'imyitozo ngororamubiri, harimo amatunda ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Umusore wambaye isaha ubona ko akora umwitozo ngororamubiri, akaba afashe kw'ivi nk'ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba agize imvune itunguranye, yabitewe no kuba wenda imbaraga zibaye nkeya cyangwa se imitsi imuriye.

Inkweto ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri hagamijwe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ndetse ikaba ikozwe mu buryo nta kintu cyabasha kwinjiramo byoroshye kinyuze munsi kiri nk'icyuma cyangwa se iki cyose cyabasha kwangiza amaguru.

Ameza manini ateretseho ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibihembo bitandukanye umuntu ahembwa, birimo imidari hariho n'imbuto umuntu arya asoje umwitozo ngororamubiri, birimo inanasi, indimu, imineke ndetse n'avoka.

Icyapa kiriho imyitozo icumi umuntu yakora, harimo itanu ukora wicaye, n'itanu ukora uhagaze kugira wongere kumererwa neza nyuma yo kugira ikibazo mu mutwe, harimo kugorora amaguru, kurambura amaguru, ndetse no guhagarara neza wemye ukagorora n'imitsi.

Ikibuga cy'umupira kirimo umukinnyi uryamye wavunitse ndetse n'umuganga urimo uramuvura mu ivi yari yangiritse yifashishije umuti amusigaho ndetse anamuganiriza kugira ngo abashe kumuvura neza.

Icyumba kirimo umusore uryamye ndetse n'umuganga uri kumufasha mu myitozo ngororamubiri akanifashisha amavuta, aho ayamusiga ndetse akanamuganiriza ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, akaba arimo yigorora areba hejuru ndetse arambuye ibiganza kugira ngo ahumeke neza, anirinde indwara zitandukanye, zirimo indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara zindi z'umutima.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri w'ukuboko, yifashishije igikoresho cyabugenewe kimufasha kugira ngo imitsi, amaraso, bitemmbere neza, Ari gukora umwitozo abifashishwamo n'inzobere.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa bavura indwara nyinshi zikunze kugaragarira mu myitozo ngororamubiri, harimo amavuta yo kwisiga, ibipima ububabare, ibinini ndetse n'inshinge, n'uturindantoki.

Abangavu n' ingimbi bari mu mukino wo kugorora umubiri, ukinwa hifashishijwe amaboko aho urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kureba abo bana, iyi mikino ikaba igamije gutuma bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Umukobwa uri mu mwitozo ngororamubiri. Ndetse ubona ko ku ruhande rwe hari ibiryo bitandukanye birimo intungamubiri umuntu afata, amaze gukora umwitozo ngororamubiri. Harimo imineke n'izindi mbuto zirimo amatunda, kugira ngo umubiri wongere ugire imbaraga.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, harimo n'inyama n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu mwitozo ngororamubiri, harimo n'ibyo kunywa mu gihe umuntu asoje umwitozo ngororamubiri, byongera imbaraga ndetse bikarinda uburwayi.

Umusore wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri, akaba arimo aravurwa n'inzobere yabihuguriwe, kandi ibizi neza kuvura imvune, akaba yicajwe neza ahantu habugenewe, ndetse akaba arimo arazirikwaho ibikoresho birimo umuti ku kaguru.

Icyapa kiriho leta y'u Rwanda ndetse kigaragaza ibitaro bya gisirikare, icyo bakora, ubuvuzi batanga ndetse n'ubuvuzi bukomeye bubasha kuhakorerwa.

Intebe nziza ikoreshwa mu buvuzi w'umwitozo ngororamubiri ndetse ikaba yanakoreshwa yicarwaho n'umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga kugira ngo na we komeze gukira vuba kandi no kwitabwaho neza.

Inyubako, ivuriro biri kubakwa ririjya ritangwamo serivisi yo kuvura indwara n'ibikomere byabonetse yaba ari mu mikino, ndetse n'indi myitozo ngororamubiri, kugira ngo ababifite bitabweho.

Amashusho atandukanye agaragaza uburyo butandukanye umuntu yakora umwitozo ngororamubiri. Ushobora kuwukora uri gukina na mugenzi wawe umupira, ishusho rya kabiri rigaragaza uburyo wagorora amaboko, gatatu uburyo wagorora amaguru, kane uburyo wagorora amaboko ugamije, kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri kunywa amazi akoresheje icupa ubona ko asoje umwitozo ngororamubiri ndetse akaba arimo aranywa amazi kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza kandi nawe akomeze kugubwa neza.

Umukobwa yavunikiye mu myitozo ngororamubiri ndetse akavunika igice cyo mu ivi, arimo arahabwa serivise na muganga, aho yamusize umuti ku ivi ndetse akanasegura neza ivi kugira ngo abashe kumuvura neza.

Umusore uri kwitabwaho bigaragara ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri agakomereka cyangwa se akaba yagize ikibazo mu mitsi, muganga yamuryamishije neza arimo aramwitaho neza.

Umukobwa uri mu mwitozo ngororamubiri, yambaye isaha kugira ngo amenye igihe akoresha ari mu mwitozo, arimo aragorora amaboko, amaguru, ndetse n'umugongo, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse hirindwe indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi ari mu myitozo ngororamubiri y'amaboko, amaguru ndetse n'umugongo kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse yirinde n'indwara zitandukanye zaba ari indwara z'umubyibuho ukabije.

Umukobwa muto uri mu mwitozo ngororamubiri w'amaboko, amaguru n' umugongo, kugira ngo agire ubuzima bwiza, ndetse ingingo z'umubiri zikore neza, bityo yirinde indwara zitandukanye.

Umusore wicaye mu byatsi, ari mu umwitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko n' umugongo, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi agubwe neza, bityo indwara za hato na hato zitunguranye abashe kuzirinda.

Umusore wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri w'akaboko. Akaba arimo arahabwa ubuvuzi bujyanye n'imvune yagize, aho bamuziritseho umuti ku kaboko aho yavunitse, kugira ngo akire vuba.

Icupa ry'amazi arimo arasukwa mu gikombe, amazi meza asukuye kugira ngo anyobwe n'umuntu usoje umwitozo ngororamubiri, yaba ari uwo kwiruka, yaba ari ukugorora umugongo n'undi mwitozo utandukanye...

Igikoresho gikoreshwa nk'inkoni umuntu ufite ubumuga agenderaho kugira ngo abashe gufasha urugingo ruba rufite ikibazo.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'imbuto umuntu afata arangije gukora iyo myitozo ngororamubiri, imbuto zirinda indwara ndetse zongera abasirikare b'umubiri, amazi umuntu anywa asoje gukora uwo mwitozo ngororamubiri.

Ikirenge ubona ko cyangiritse bitewe n'imyitozo ngororamubiri ishobora kuba ari myinshi cyangwa se mikeya, aha bigaragara ko yari arimo arahabwa ubuvuzi bujyanye n'ikibazo yari yahuye na cyo harimo kumuzirikaho bande.

Imiti itandukanye yifashishwa nyuma y'imyitozo ngororamubiri, yaba umuntu arimo arakora umwitozo akagira ikibazo cyangwa se n'undi uwo ari we wese waba ufite ikibazo cyo mu ngingo, ikoreshwa yisigwa nk'amavuta indi bakayinywa.

Umusore wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri w'akaguru ndetse n'umuganga uri kumwitaho aho yavunitse akaguru kugira ngo yongere abashe kugenda neza, ndetse agire ubuzima bwiza abasha gukora no kwiyitaho.

Ibikoresho byinshi byiza bitandukanye, biri mu cyumba cyabyo cyabugenewe. Harimo igitanda umurwayi aryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa hari kurebwa ingingo z'imbere m’umubiri w'umuntu uburyo zimeze.

Umukobwa wasoje umwitozo ngororamubiri, abifashishije umupira umusore arimo aranywa amazi ndetse umukobwa we aracyagorora amaboko kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi hirindwe indwara zitandukanye.

Imipira ikinwa mu mwitozo ngororamubiri yaba ari uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'indi mikino itandukanye kugira ngo ukina akomeze kugira ubuzima bwiza, yaba kwirinda indwara z'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kudakora umwitozo ngororamubiri.

Umukobwa ufite mudasobwa ndetse akaba yicaye ari umwitozo ngororamubiri w'amaguru amaboko ndetse n'umugongo, afite n'amazi imbere ye anywa mu gihe ananiwe bityo agakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura neza.

Umukobwa uri mu mwitozo ngororamubiri w'amaboko, amaguru ndetse n'umugongo abikora ari kwiruka yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi n'indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri zikire.

Ameza ateguye neza ariho ibikoresho ngororamubiri ndetse n'amafunguro umuntu yafata amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo amagi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye nziza zizewe, harimo imineke bibasha gutuma umuntu agubwa neza nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, yaba ari umupira bakina bagorora amaguru, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa hakorwa umwitozo ngororamubiri ikoreshwa bagorora amaguru umu mugongo ndetse n'amaboko kugira ngo indwara zirimo umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara nk'indwara z'imitima zibashe kuvurwa neza maze abarwayi bitabwaho mu buryo bwiza kandi bunoze.

Umusore uvuye mu mwitozo ngororamubiri wambaye udukoresho tumufasha kumva indirimbo, akaba ari kunywa amazi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, umubiri ukore neza ndetse abashe guhumeka neza, maze akomeze kugubwa neza.

Muganga w'umugabo ufite ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri bigaragara ko ari kugaragaza ko imyitozo ngororamubiri ari myiza ku buzima bw'umuntu kuko ivura indwara zitandukanye yaba ari indwara z'umubyibuho ukabije n'izindi ndwara z'amagufa.

Igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngorora mubiri gifite uburebure n'umutambiko w'uburebure bw'ijana na rimwe umutambiko mirongo icyenda na rimwe ndetse n'ubugari bwa mirongo itanu n'umunani gikoreshwa mu kugira ngo barwanye indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngorora mubiri.

Umusore bigaragara ko yavunitse ari mu mwitozo ngororamubiri. Muganga arimo aramwitaho amushyiraho igipfuko ku kirenge kugira ngo abashe gukira vuba, ndetse akanakizengurutsa mu mpande zose z'ukuguru.

Abavuzi gakondo biganjemo abapapa ndetse n'abamama basuye imiti gakondo irimo igikakarubamba n'indi miti itandukanye kugira ngo bakomeze kuvura indwara neza ndetse bige no ku mikorere yabyo neza.

Icyatsi gikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, indwara z'ibirenge, kugira ngo umuntu wese agire ubuzima bwiza.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa babitunganyamo imiti. Ikaba ifunitse neza, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba indwara z'uruhu n'izindi ndwara, ikaba yizewe kandi ikaba ari imiti gakondo.

Ibikoresho byabugenewe byo kuvangirwamo imiti gakondo yaba ari iyo mu byatsi ndetse n'imbuto ikoreshwa umuntu ayinywa cyangwa se ayisiga, ikavura indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bikorwamo imiti izwi nk'imiti gakondo ikozwe mu bimera, ivura indwara z'uruhu izo mu nda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zataka umubiri.

Imiti myinshi itandukanye ifunitse neza, ikaba yaratunganyijwe mu bimera, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda, ikaba yisigwa ndetse indi umuntu akaba yayikoresha....

Ibyatsi byinshi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Ubona ko ku mashusho hari ibyatsi bigiye bigabanyijemo ibice byinshi bitandukanye, ariko byose bikaba bitunganywamo neza umuti uzwiho nk'umuti gakondo.

Imiti myinshi itandukanye gakondo ikozwe mu bimera ndetse no mu mbuto, yahurijwe hamwe hagamijwe kugira ngo ibashe kugurishwa n'abatayifite bayiboneho, ikwirakwira isi yose muri rusange.

Icupa ririmo umuti gakondo ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye, ukaba ukozwe mu buki bw'inzuki ukawifashishwa mu bwirinzi bw'indwara ndetse ukaba wisigwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

igikoresho cyabugenewe bakoresha bategura imiti izwi nk'imiti gakondo ikozwe mu byatsi imbuto n'ibindi ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye haba indwara z'umutwe n'indwara zo mu nda kugira ngo uzirwaye abone serivisi nziza kandi inoze yitabweho kandida akire .

Imiti gakondo itandukanye ikozwe mu mbuto ndetse n'ibimera by'umwimerere, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kugira ngo abazirwaye bose bahabwe serivisi y'ubuvuzi nziza kandi inoze.

Imiti gakondo myinshi itandukanye ikozwe mu bimera tangawizi, ibyatsi, ndetse n'imbuto, ikaba ikoreshwa havura indwara zitandukanye y'aba indwara z'uruhu izo mu nda n'izindi ndwara.

Imiti gakondo ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ariyo bisiga mu mugongo, mu izosi, ku maboko, kugira ngo havurwe indwara z'uruhu n'izindi ndwara zose zataka umubiri.

Imiti gakondo itandukanye iri mu macupa, imiti myinshi, ivanwa mu bimera, mu mbuto ndetse byose akaba ari iby'umwimerere, yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose biba byatewe, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'uruhu.

Icupa ririmo umuti gakondo ukozwe mu bimera, ibyatsi ndetse n'imbuto zitandukanye, ukaba uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara zifata umubiri, hagamijwe kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibimera bikorwamo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara, kugira ngo umurwayi wese ufite icyo kibazo cy'ubwo burwayi byifashishwe avurwa.

Imiti itandukanye yatunganyijwe neza ndetse ifunitse neza. Ikaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse ikaba ikozwe mu byatsi n'imbuto gakondo. Ikaba yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Imiti myinshi itandukanye ikozwe mu byatsi ndetse n'ibyatsi bitunganywamo iyo miti, ikaba ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba indwara z'umutwe, indwara zo mu nda n'izindi ndwara z'uruhu kugira ngo uzirwaye yitabweho.

Ububiko burimo imiti ifunze neza mu macupa, ni imiti myinshi itandukanye ikozwe mu bimera, birimo ibyatsi ndetse n'imbuto ,ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu.

Icyumba cyiza kirimo umuganga uvura indwara zitandukanye akoresheje imiti gakondo, imiti ituruka mu bimera ndetse akaba arimo arayitunganya neza anayishyira mu bubiko bwabugenewe, kugira ngo izabashe gukoreshwa havurwa indwara zitandukanye.

Ibyatsi byinshi bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yaba iyo kwisiga ndetse n'iyo kunywa ivura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara zataka umubiri, kugira ngo uzirwaye abashe guhabwa serivisi nziza kandi inoze maze yitabweho.

Imiti gakondo yiganjemo ibyatsi, tangawizi n'ibindi, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zataka umubiri, yaba ari indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, ndetse n'umumama urimo uratunganya iyo miti.

Imiti myinshi itandukanye itunganywa mu byatsi n'ibindi bimera, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'umutwe, z'uruhu, indwara zo mu nda n'iz'indwara zibasira umubiri kugira ngo uyirwaye abasha kuvurwa neza.

Icyatsi gikorwamo umuti, ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'umutwe, indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda, kikaba gitunganywa neza maze kikabasha kwifashishwa muvuzi bwo kwa muganga, kugira ngo umurwayi abashe kwitabwaho.

Ibimera byinshi bitandukanye n'amazina yabyo bikorwamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda kugira ngo uzirwaye akire kandi yitabeho neza.

Ibyatsi bikorwamo imiti izwi nk' imiti gakondo n'igikoresho cyabugenewe gikoreshwa harimo haratunganywa iyo miti kugira ngo hifashishwe havurwa indwara zitandukanye zizengereza umubiri ndetse zikire burundu .

Ibyatsi bakoramo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara kugira ngo ubuzima bwiza gatozi bw'umuntu bwitabweho.

Umuti watunganyijwe mu byatsi by'umwimerere, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu, kugira ngo abazirwaye bitabweho, banakurikiranwe.

Icyatsi gitunganywamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, kikaba ari icyatsi gakondo cy'umwimerere ndetse kikaba kizewe ubuvuzi bwacyo, kikaba cyujuje ubuziranenge.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo umuti gakondo, ukoreshwa bavura indwara zitandukanye yaba ari indwara z'uru, indwara zo mu nda, indwara z'amaguru n'izindi ndwara kugira ngo uyifite wese abashe kwitabwaho ndetse anabungabungwe mu buryo bwiza bukwiriye.

Icyatsi gikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa bavura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda, utunganywamo ku buryo wakwisigwa cyangwa se urwaye akawunywa.

Imiti itandukanye ifunze neza yakozwe mu bimera, ikaba ibashwa kuyikoreshwa mu buvuzi, imwe ikaba yisigwa, indi ikanyobwa, bitewe n'indwara umuntu afite, akaba abasha kubona umuti umufasha.

Ibyatsi ndetse umuti gakondo ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye zatakaka umubiri, uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zose, hagamijwe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Icupa rifitwe n'umuganga ndetse bigaragara ko ririmo umuti ukozwe mu bikoresho gakondo birimo ibyatsi ndetse ukaba wifashwa havurwa indwara zitandukanye zatakaka umubiri harimo indwara z'uruhu n'indwara zo mu nda.

Amavuta akozwe mu bikoresho gakondo ndetse n'imiti gakondo harimo ibyatsi imbuto, urugero twavugamo imyembe, igikakarubamba yifashishwa mu gusukura uruhu ndetse no gutuma umubiri w'umuntu ukomeza kumera neza mu buryo bw'imigaragarire.

Icyapa kiriho ubwoko bw'umuti utunganwa mu bimera by'ibyatsi ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara.

Umuti utunganyijwe mu bimera harimo ibyatsi ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse ukaba ubitse neza ku buryo utakangirika kandi ukaba ukora neza mu buryo bwizewe.

Imiti itandukanye ibitse neza mu macupa, ikaba ikozwe mu bimera gakondo, yaba ari ibyatsi ndetse n'imbuto, ikaba ivura indwara zitandukanye, ikaba ikoreshwa yisigwa indi bayinywa kugira ngo indwara zikire.

Umusore ufite ibyatsi gakondo bikorwamo imiti izwi nk'imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'umutwe ndetse n'indwara z'uruhu kugira ngo uzirwaye abashe guhabwa serivisi nziza kandi inoze.

Umuti mwiza wizewe ukozwe mu bimera na nimero igizwe na zeru karindwi, umunani, icyenda, icyenda, zeru, kane, icyenda, icyenda, icyenda ushobora guhamagara ukeneye uwo muti, ikaba ari nimero y'inyarwanda.

Imiti itandukanye, ikozwe mu bimera ibyatsi ndetse n'imbuto, ikoreshwa havurwa amenyo neza kugira amenyo yongere agire ubuzima gatozi bwayo, ubwiza ndetse n'imyanda ivanwemo, n'uburyo bwa hato na hato bwirindwe.

Igikoresho kirimo ibinini bine bikozwe mu bimera ndetse n'ibyatsi gakondo ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye zataka umubiri kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Amavuta atandukanye akozwe mu bimera ndetse n'imbuto gakondo, akaba akoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba indwa z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara, kugira ngo abazirwaye bagire ubuzima bwiza ndetse bitabweho neza.

Ibyatsi bikorwamo umuti w'umwimerere gakondo, ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Yaba indwara zifata abana, izo mu nda, iz'uruhu, n'izindi ndwara. Kugira ngo uzifite abasha kwitabwaho.

Amoko menshi y'imiti atandukanye afunzwe neza yamaze gutunganywa, akaba yarakozwe mu byatsi gakondo ndetse n'imbuto gakondo kugira ngo yifashishwe havurwa indwara zitandukanye.

Ibyatsi by'imiti gakondo y'ibimera ndetse muganga ubikoresha arimo arerekana imikorere yabyo, bikaba bikoreshwa bivura indwara zitandukanye yaba iz'uruhu, n'izindi ndwara zose zo mu nda hagamijwe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Amoko menshi y'imiti itunganyijwe mu bimera bitandukanye ndetse n'imbuto, uburyo akoramo n'uburyo akoreshwa bitewe n'indwara runaka igiye kuvurwa.

Umuti wiswe ngo ni umuti w'ibihe byose, utunganyijwe mu bimera, ukaba ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye. Ufunze mu icupa ukaba ukoreshwa wisigagwa nk'amavuta mu gihe umuntu amaze koga.

Icyapa cyanditseho imiti gakondo igiye itandukanye. Yaba ari izikoreshwa nk'amavuta bayisiga ndetse n'iyo banywa kugira ngo bavure indwara zitandukanye. Iz'uruhu, izo mu nda, n'izindi ndwara maze uzirwaye abasha gukira ndetse agubwe neza.

Icyatsi cyifashishwa havurwa indwara zitandukanye kizwi nk'umuti gakondo gikoreshwa havura indwara z'uruhu, izo mu nda n'izindi ndwara kugira ngo uzirwaye agire ubuzima bwiza avurwe akire ndetse akomeze kubaho mu buzima buzira indwara.

Icyatsi gikorwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, kikaba gitunganywa neza mu buryo bwiza bunoze, kugira ngo cyifashishwe ndetse hirindwe izindi ngaruka cyateza mu gihe gikoreshwa kitatunganyijwe.

Icyatsi ndetse akaba ari umuti gakondo wifashishwa havurwa indwara zitandukanye zataka umubiri, iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara zose hamwe, iki cyatsi kikaba kifashishwa aho bagisoroma bakagitunganya, bakagikora neza kikavanwamo umuti wizewe ukoreshwa mu kuvura uburwayi.

Ibimera bitandukanye bizwi nk'umuti gakondo, bikoreshwa hatunganywa imiti yaba iyo kwisiga amavuta ndetse n'iyo kunywa ivura indwara zitandukanye. Harimo indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, kugira ngo uzirwaye abashe kwitabwaho neza.

Umuti utunganyije ndetse ubitse neza mu icupa n'ibyatsi n'ibindi bikoze muri ibyo byatsi bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara yaba ari indwara zo mu mutwe izo mu nda' z'uruhu .

Imiti itandukanye y'amavuta y'amazi ikozwe mu bimera ivura indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, kugira ngo umurwayi wese ufite ikibazo abashe kuyikoresha ndetse agire ubuzima bwiza.

Umuravumba, icyatsi gikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu muhogo n'izindi ndwara, kikaba kizewe kikaba gitunganywamo umuti mwiza ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara.

Ibyatsi byinshi bitandukanye biteye ahantu hamwe, bitunganywamo imiti izwi nk'imiti gakondo. Harimo ivura kwikinisha n'indi bakoresha bavura mu nda ndetse n'ivura indwara z'uruhu.

Umuti ukoze mu bimera, ibyatsi ndetse n'imbuto gakondo ukoreshwa wisigwa cyangwa se abandi bawunywa, ukaba uvura indwara zitandukanye z'uruhu, izo mu nda n'izindi ndwara zikomeye zibasha gufata umuntu.

Amavuta y'umwimerere akozwe mu byatsi imbuto bihingwa n'abaturage, akoreshwa yisigwa ndetse n'andi bakayanywa, akaba agamije kurinda indwara zitandukanye zatakaka umubiri yababa ari iz'uruhu n'izindi zo mu nda.

Imiti itandukanye ikozwe mu byatsi ndetse n'imbuto, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba indwara zo mu nda, iz'uruhu n'izindi ndwara kugirango ufite ikibazo wese gikenera iyi miti abashe kuyibona mu buryo bwihuse kandi vuba.

Ikimera gikorwamo umuti uzwi nk’umuti gakondo ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara kugira ngo uzirwaye abashe kugira ubuzima bwiza, yitabweho kandi akomeze kumererwa neza.

Icyatsi gikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara kugira ngo uyirwaye uwo ari we wese, yitabweho kandi akire.

Umuti utunganywa ukozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, izo mu nda, iz'uruhu n'izindi ndwara kugira ngo uzirwaye yitabweho neza.

Icyatsi gitunganywamo umuti ukoreshwa mu buvuzi, yaba ari ubuvuzi bw'indwara z'uruhu, izo mu nda, ushobora gukoreshwa wisigwa cyangwa se umuntu awushyira mu biryo akawurya.

Ububiko bw'imiti myinshi itandukanye itunganyijwe mu bimera ikaba igurishwa ku baturage bitewe n'indwara bafite, ndetse ikaba ikoreshwa mu buvuzi irizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Ibimera bitandukanye byahigiwe hamwe bikorwamo imiti gakondo, harimo igikakarubamba n'ibindi bimera bikaba, byifashishwa havurwa indwara zitandukanye haba indwara zo mu nda, ndetse n'indwara z'uruhu kugira ngo uzirwaye yitabweho.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo umuti, umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwaraba akaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, ku baturage, ndetse n'uburyo bwiza bwo kubitaho no kwita kuri iyi miti.

Icupa ryiza ririmo umuti unyobwa ariko uvura indwara zitandukanye, uwo muti ukaba ukoze mu bimera cyangwa se imiti gakondo igiye itandukanyekanye, ibyatsi, imbuto n'indi miti yose itandukanye.

Ibyatsi bikorwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi uzwi nk'umuti gakondo utunganywa neza ugashyirwa mu icupa, umuntu akaba yawunywa cyangwa se akawisiga akavura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye yahurijwe hamwe, imiti ikozwe mu bimera, imbuto izwi nk'imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara zose, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibyatsi byinshi byiza bitandukanye bikorwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'iyi ndwara yaba ari indwara zifata uruhu, izo mu nda n'indwara z'umutwe kugira ngo uzirwaye abashe kwitabwaho kandi abone serivisi nziza kandi inoze vuba.

Icyatsi gitunganywamo umuti gakondo uvura indwaratandukanye z'umubiri, gishobora gukoreshwa umuntu akisiga cyangwa se akagiteka mu biryo akakirya cyangwa akakiywa.

Amacupa menshi atandukanye arimo imiti gakondo, ituruka mu bimera ibyatsi ndetse n'imbuto, ikaba yifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara.

Imiti myinshi itandukanye ndetse harimo na nimero y'abakora muri serivisi zo gutanga iyo miti ku ndwara zitandukanye, aho wabahamagara ukabasha kugura imiti bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite kikitabwaho kandi ukavurwa ugakira.